Ibihingwa byatoranijwe byinshi bikundwa guterwa imiti kugira ngo igihe bagiye kubishyira mu butaka, bitazagira icyo biba bikangirika bakunda kubikora cyane.

Umuti udufasha kugira ibihingwa bikagenda neza. Bidufasha kwica udusimba dushaka kwangiza ibihingwa by'abaturage.

Ifumbire y'imborera kandi ifumbire idufasha mu bintu byinshi harimo nko kujya gutera ibirayi ukabanza ukayitera hasi, ikagufasha kuzatuma ibirayi bikura bifite imbaraga.

Imiti idufasha kurinda ibiribwa byacu kugira ngo bizagire intungamubiri nyinshi, kandi bitekuzapfa nk'udusimba ngo tuze tubyice.

Iyi ni ifumbire . Ifumbire idufasha ibintu byinshi. Idufasha gutera imyaka . Ikadufasha gufumbira ubutaka, bugatanga umusaruro.

Imiti idufasha kubona ibindi bikoresho byinshi cyane, iyo ubonye umuti uri mu bijerekani, ugufasha kwica mikorobe n'ibindi bintu ushaka gukoresha.

Amafi ari muri firigo, firigo ibitse amafi kugira ngo amafi ataza kwangirika ,kuberako amafi ari hanze arangirika cyane.

Ifi idufasha kugira ubuzima bwiza, ndetse bikadufasha no kubona amafaranga, iyo uyiriye bigufasha gutuma wumva umerewe neza cyane.

Ibihingwa byinshi bidufasha kugira umusaruro mwinshi cyane. Iyo ubonye inyanya nziza zituma tugira amafaranga n'ibindi byinshi.

Aya ni amafi. Bayaroba mu kiyaga bakayajyana ku isoko kuyacuruza, abaturage bakayagura bakarya, kandi araryoha akanatanga n'amafaranga.

Kurya bidufasha kugira imibereho myiza, tugatunga ibintu bizima byo kurya iyo washatse nko kurya ibintu byiza, ukajya kubireba ahantu wabishyize.

Ifi ikotinze iba nziza cyane, kubera iraryoha, iyo fi ikunda kuribwa n'abantu benshi kuko iba imeze neza cyane.

Amafi araryoha, agira intungamubiri nyinshi cyane, kandi kamera, atuma abana nabo bagira ubuzima bwiza, hirya y'aya mafi hari utundi duto n'inyanya.

Amazi adufasha kugira ubutabire bwinshi. Ubutaka amazi arimo ibindi binyabuzima na yo aba ari meza cyane.

Abantu bakunda gukora ibintu byinshi, bagasesa umurama kugira ngo babone ingemwe bashaka gukoresha. Ibindi na byo bikaba akarusho iyo uri kumwe na bo.

Ubwato butwara abantu n'ibintu. Buri mu mazi ndetse n'abantu babutwara nabo barahari ni benshi. Barimo gukora umwuga wo kuroba amafi.

Imigezi itemba iba ari myiza kuko ituma ibintu byose bigenda bivamo umwanda ugatemba ukajya kure, ibindi nabyo bigasigara aho.

Amafi ni meza, atera ubuzima bwiza, kandi amafi aba mu kiyaga, kuyabona ntabwo biba byoroshye, bisaba kuba ubizi kandi uzi kuyaroba.

Abantu bakunda ibyo kurya byiza, babikunda iyo babibonye, iyo bafite ubushobozi bwo kugura ibyo biryo, bagura byinshi byiza, kandi basangira na bagenzi babo.

Amazi ari ahantu hamwe. Bavuga ngo ni ikiyaga. Hafi y'ayo mazi hari umusave, urusasa. Hirya y'ayo mazi hari imyaka ihateye.

Abaturage bakunda guhinga, ibintu byinshi bitandukanye, bagahinga ubwoko bwinshi bw'ibiribwa, kugira ngo batazabikenera, bakabibura kandi bari barabikeneye.

Inyoni zikunda kujya ahantu zibona umwanya wo kwitekerezaho zigakora utuntu twiza zizunguza ibiti, zigakoga n'ibindi nabyo bikaboneraho.

Uyu ni umurima uteyemo ibirayi, munsi y'uwo murima hari ipoto, hakabamo amazu atuwemo n'abantu, kandi ni menshi.

Indabyo zidufasha kugira ahantu hasa neza, inyuma hari igiti kidufasha kubona umuriro ndetse n'inzu isakajwe n'amabati.

Umucaca munini uri ahantu mu kibuga, munsi y'ikibuga harimo akayira, hirya y'icyo kibuga hari abaturage bahatuye, hari inzu nini ifite amabati y'umutuku, imbere y'iyo nzu hari abantu bicaye n'undi umwe uri kugenda, hari n'undi muhanda uciye haruguru y'iyo nzu.

Umurima ugaragaramo ibintu byinshi harimo amajeri, hakazamo isanduruma, hakazamo igihaza, ukabonamo n'imiharavumba no hirya ukabonayo ahantu hatuwe hariyo amazu n'ibiti.

Ikibuga kidufasha gukemura ibibazo dufitanye n' umubiri, hirya hari amazu adufasha kubika ibikoresho, akaba yatubera ibikoresho byiza cyane dukenera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Abanyonzi batwaye amagare.

Ibihingwa biba byiza iyo ubifashe neza, ukabyitaho ukabiha umwanya, cyane cyane amashaza aba meza iyo wayatekanye n'ibirayi.

Urutoki runini rurimo insina, umurima udahinze ibitoki, ibiti, ibiti ndetse no kuba haraye byose basabye kubikora.

Umurima ugaragaramo ibirayi byiza bikiri bito, bigaragara ko bitarengeje ukwezi, ariko bikaba biri hagati mu murima, bisa nk'aho bagiye kubitera umuti.

Uyu murima urimo ibintu byinshi cyane ugizwe n'ibirayi, uri hafi y'akayira gato, hirya y'akayira hari abantu bari gutambika kuri uwo murima, munsi yawo hari undi uzitiriye, hirya y'uwo murima hari inzu.

Iki ni igiti kitewe hafi n'amazi, kandi iki giti gituma amazi akumirwa cyane kuko bifata ubutaka cyane.

Umusipuri ni igiti cyiza， gikunda kudakura cyane kikagira amashami menshi. Kiri kumwe n'ibindi biti， biri kumwe， hagati aho hari umusave n'ibindi byinshi.

Aya ni amagi avamo ibintu byinshi akora imigati , akavamo imireti ukayarya , akagutera intungamubiri mu mubiri w'umuntu cyane kandi anarararyoha.

Uyu ni umurima uteyemo ibigori bigaragarako ari umurima munini, hirya y'uwo murima hari imisozi miremire, hari n'ahantu hari ibyatsi bidahinzemo ikintu.

Ababyeyi bakoreye ibirayi ku mugongo, abandi bafashe inkoko mu ntoki, bari kuzicuruza, abandi bari kugenda bikoreye amabase, abandi bari gusunika, abandi barahagaze.

Ibi bihingwa biba byiza iyo ubiteye ukabihereza ibihingwa byinshi, iyo ufite ibihingwa by'ubwoko bwose, ujyana ku isoko bakaza bakagura, bakishima, bagahitamo ibihingwa bashaka.

Imbuto ni nziza cyane zituma abantu bagira ubuzima bwiza cyane ,kandi imbuto zitanga n'amafaranga ku bantu bazigurisha, kuko zivamo amafaranga menshi kandi zigatuma witeza imbere.

Ibishyimbo byinshi cyane bisaruwe byumye, kandi byiza ibishyimbo biryoha ,kandi ibishyimbo bitanga n'umusaruro munini mu baturage.

Imyumbati igaragara nkaho ikuwe cyane, kuko isa neza kandi ni minini iri hanze, itondetse ahantu hamwe.

Aya ni amatungo y'ihene aziritse ku giti kinini, azitiriwe na senyenge. Izi hene zambaye n'imirunga yazo.

Imbuto y'ibirayi ni imbuto nziza, itanga amafaranga kandi ikakohereza ubukungu mu gihe gito cyane, iyo wabyitayeho cyane bigakora neza.

Iki ni igihingwa cy'ibijumba, kandi ibi bijumba ni byiza cyane biraryoha, mu kubiteka bitera imbaraga, kandi binaratubuka mu kubirya.

Amapera ni igiti cyiza kigira amapera. Kandi amapera agira intungamubiri nyinshi, abantu barayakunda bakayarya, bagasagurira no kujya kugurisha ayasigaye.

Abantu bari gusarura ibigori, ni benshi kandi barishimye kuko babonye umusaruro mwiza w'ibigori, abandi na bo bari aho ku ruhande baje kureba ibigori uko bisa.

Iyi hene ni amatungo meza adufasha gutuma tugera ku nzira njyabukire, iziritswe mu rugo hazitizwe uruzitiro rw'ibikenyeri.

Ibirayi bidufasha kurya indyo yuzuye cyane iyo wabitetse ukabifata ukabitsimbana n'ibishimbo, biraryoha cyane iyo ubikoze wabihaye umwanya.

Izi ni intoryi，intoryi zidufasha kugira intungamubiri，zikadufasha kubona amafaranga， kuko uzifashe ukazigurisha， ubona amafaranga.

Ibigori ni igihingwa cyiza cyane kuko gituma abantu babona amafaranga, kandi bigatuma babirya iyo bikuze, bigatuma n'abandi baboneraho gutera indi myaka.

Igihingwa twita ibireti bivamo intungamubiri nyinshi, zidufasha gutuma tubona ibyo dukeneye ku isoko.

Amateke ni igihingwa cyiza cyane, kandi kigira abakunzi benshi kuko amateke araryoha. Hirya hari igiti kinini cy'inturusu isanzwe.

Ibitoki bivamo ibintu byinshi cyane. Bivamo umusururu bikavamo urwagwa ,bikavamo umutobe bikavamo n'ibindi byinshi bikavamo n'amafaranga menshi.

Uyu ni umurima urimo igihingwa cy'ibigori. Ibigori biduha amafaranga kandi natwe tukabirya, gusa ibigori biraryoha kandi cyane.

Uyu ni umurima utewemo ikawa kandi uyu umurima ugaragara neza ko ari munini, iyo uteye ikawa harimo n'abari kwisarura.

Ibirayi bidufasha kugira imirire myiza mu bana bacu. Ikindi ndabona abaturage twishimira.

amatunda ni ikiribwa cyiza kidufasha kugira ubuzima bwiza, kandi kikanadufasha gutuma tugira ubukire mu gihugu.

Aba ni abantu bagiye gusura umurima utemo ibintu byinshi hatahemo ingano, inyuma yaho hari umurima udahinnzemo ikintu.

Igihaza giteye mu murima kigaragara nk'aho gikuze gifite amababi ashaje, nacyo ahantu kiri harashaje, gisa nk'aho cyakuze cyane.

Izi ni inkoko ebyiri zigaragara ko zihagaze ku giti, kandi inkoko imwe ni isake, indi ni inkokokazi, inkokokazi itera amagi, isake ishonda inkokokazi.

Igihingwa twita ibitoki kivamo ibintu byinshi cyane turakirya tukaturyohera kandi kidufasha no kubona amafaranga.

Umurima uteyemo ibirayi munini cyane, urimo n'ibigori hirya hari abantu baje kuwusura bakaba bari no kuwubagarira rero.

Amashu ni ibihingwa byiza abantu bakunda guhinga kubera iratubuka cyane, kandi bigatunga abantu benshi n'imiryango myinshi cyane.

Amatunda ni igihingwa cyiza cyane kandi gikurura abantu kuko kigira intungamubiri nyinshi cyane. Iyo uhinze amatunda, uhinga menshi kuko uba uziko uzatwara no ku isoko.

Ibihingwa byiza nk'intoryi, inyanya, n'urusenda ni ibintu bifasha abantu benshi cyane kuko bigira akamaro ku mubiri w'umuntu iyo agiye kubirya.

Intoryi zidufasha gutuma twumva tumeze neza cyane mu mubiri, tukagira amafaranga, zinjiriza abaturage mu gihugu.

Uru ni urusenda barya kandi bakarukoramo akabanga, kandi rugatera apeti ku muntu uri kurya ibiryo kuko rutuma agira apeti.

Amashu aragaragara neza, nk'igihingwa kiza kitaweho n'abaturage, kandi kikabonera umuti ku gihe, bityo kiza nacyo kigaragara neza cyane.

igihingwa cy'imyumbati ni igihingwa cyiza cyane kandi kiryohera buri muntu wese, ukiriye gitera imbaraga. Ibikombe binywerwamo igikoma n'ibindi byinshi biri aho turi kureba.

Ibigori byiza bihunikwa mu masite yabugenewe, kugira ngo abaturage bazabibonereho ibyo bakora ,kandi na bwo bikadufasha gutuma ibintu biba byiza.

Ibigori bidufasha kugira umusaruro mwinshi tugatunga tugatunganirwa, abaturage iyo babibungabunze bidufasha kubona umusaruro mwinshi cyane.

Amateke ni meza cyane aryoha, afite intungamubiri akomeza imitsi, akongera imbaraga, kandi akunda no kuba ahantu heza cyane.

Igiti kigaragara nk'umwembe，gifite ibitusha byinshi cyane， inyuma yaho hari abantu bari kuhanyura，bigaragara nk'aho ari abanyeshuri.

Ibigori biradukundira bikera cyane iyo wabihinze ubyitayeho, cyane cyane nk'ibiti biri mu muririma ntibituma ibigori bikura neza, bidufasha gutuma tubona uko tubyirinda.

Abantu bari guhinga ibigori, abandi bafite ibigori byumye, abandi bafite impungure. Hirya hari ikigega bahunikamo ibigori. Hari n'abantu bari kubibetesha. Na byo bivamo ibintu byinshi.

Izi ni karoti karoti .Karoti zidufasha kubona amafaranga, zikadufasha gutegura ifunguro tukazirya kandi karoti zidufasha kuvura amaso.

Ibiribwa byinshi byiza bifite intungamubiri, biragaragara neza cyane, kandi binasa neza, ubicuruza ni we ubipanga gutya, kugira ngo bise neza.

Ipera ni igiti cyiza cyane kandi kigira intungamubiri nyinshi ku muntu wese uririye, rikagira n'ubushobozi bwo kuba ryaguha amafaranga menshi cyane.

Ibigori ni igihingwa kigezweho kandi gituma abantu bagikunda kuko gitanga umusaruro uhagije, bikadufasha kuboneraho no kubona amafaranga yo kugura ibindi bikoresho.

Aya ni amatunda. Amatunda adufasha kugira ubuzima bwiza, akaduhereza amafaranga tukiteza imbere mu baturage cyane.

Umuhinzi wabigize umwuga，umukecuru ubona ko akuze cyane，uri guhinga mu murima we， ashaka guteramo ibindi bihingwa bitandukanye n'ibyo yari afitemo.

Imiteja myinshi iryohera buri muntu wese, kandi ibikoresho byinshi byo kurya biva mu masoko, biba ari byiza nka pavuro n'ibindi byinshi.

Avoka ni igihingwa cyiza kiryoha kandi kigira akamaro mu mubiri w'umuntu ,iyo ugiteye kigufasha kukigurisha, ukagurisha ukabona n'amafaranga.

Isoko ririmo abantu benshi cyane, kandi harimo n'abari gucuruza imbuto nyinshi harimo karoti n'izindi zo kurya, harimo n'ibindi nk'intoryi n'inyanya.

Ibihingwa byinshi bishaka ababyitaho kugira ngo bitazatuma byangirika. Bigira umusaruro mwinshi cyane iyo wabihaye umwanya ukabyitaho.

Ibi ni ibireti. Turabihinga bikera, tukabisarura tukabijyana ku isoko, bakabigura bakaduha amafaranga, kandi bakagenda bakabikoramo n'imiti ikatuvura.

Voka zikunda guhanuka barazifata bakazitega ikindi kintu gituma zidahanuka, zikabaho zidahanuka baraziteze akantu ko gutuma zitajya zihanuka hasi.

Aha ahantu hagaragara ibintu byinshi cyane bari kuhakorera, barimo kuhabagira inyama, hari inyanya, hari ikidomoro, hari umuhoro ndetse ukabona n'abantu bahagaragara bari kubikora.

Ibihingwa byinshi biba ari byiza, iyo wateye nk'ibirayi ukabiterana umuhati, bidufasha gutuma tubona amafaranga kandi tukabona n'ubwoko bw'imbuto twishimira, dushaka gutera.

Igihingwa cy'inyanya kidufasha kugira umusaruro mwinshi kugira tubone ibyo dusagurira amasoko tukajyana natwe ibyo kurya mu rugo.

Ibigori biba byiza cyane. Ibigori biri mu murima bisa n'umweru. Biraryoha kandi bigira n'umusaruro mwinshi cyane ku buryo bituma witeza imbere.

Abahinzi bakunda guhinga ibihingwa batekerejeho neza kugira ngo bizabahe umusaruro. Abantu bakunda guhinga, abamama, ni bo beza bakunda guhinga.

Abantu benshi bari gukora iswa bari kurwanya isuri, kugira ngo birinde ibiza bizaza mu gihe batakoze umuganda, kandi ari ibyiza by'ingenzi.

Ibiti bidufasha kugira inzitizi nyinshi zituma ubutaka bukomera, ariko hakaza utundi twatsi dusa n'icyatsi ,bikadufasha gutuma twumva byose ari byiza.

Umurima uraye, ufite uruzitiro rw'amabuye, ukaba urimo umusipuri, umusipuri wakuze neza kandi ufite amashami menshi

Ibigori bidufasha kugira ifu ivamo igikoma, ndetse bikanadufasha gutuma twumva tumeze neza mu mubiri.

Aya ni amasaka meza kandi avamo ibintu byinshi cyane. Avamo umutsima, akavamo igikoma, akavamo umusururu bita igipende.

Ibigori byinshi biba ari byiza, kuko bituma abantu babona ibifu byo kunywamo igikoma, kandi bakabiboneramo n'amafaranga, atuma bajyana kugura ibindi bikoresho.

Igihingwa cy'ubu bwoko bw'ibishyimbo, kera neza kugira ngo kizamuke gifite umuvumba, bidufasha gutuma umuvumba w'ibishyimbo ukura neza bikaza byororoka ari byinshi cyane.

Ibi ni ibihingwa byinshi biri mu tuntu twatwo，harimo ibishyimbo by'umutuk， kabamo ibishimbo by'umukara， kamo ibishyimbo by'umweru，hakazamo amashaza，hakaba harimo imbuto.

Ibi ni ibigori bigaragara bashyize mu ikusanyirizo, ahantu ibigori babitegurira, bikahava bijya ku masoko kuko biba byaramaze kuma neza.

Uwo ni umurima uteyemo ibishyimbo bikiri gupfundura, kandi biri gupfundura bigaragara ko ari byiza kuko bifite n'ifumbire ihagije.

Ibihingwa bidufasha kubona umusaruro mwiza. Ubu ndi kureba igihingwa kitwa urubuto. Ruvamo amafaranga menshi cyane.

Ibihingwa bidufasha kubona amafaranga, bikadufasha kugira uburinganire bw'ibiryo tugerera abana bacu, bamara kurya nabo bakavuga bati:"ababyeyi mwarakoze guhinga".

Ibishyimbo byinshi biba ari byiza cyane. Iyo wabihaye umwanya ukabitera wishimye， biza ari byinshi cyane cyane，kandi nabwo abantu bakabirya.

Ibi ni ibiryo by'amatungo bigaragara ko imbeba zabiriye zigapfumura imifuka none bikaba byaramenetse hasi

Ibishyimbo bigufi bidufasha kugira umusaruro mwiza cyane, iyo wabihaye umwanya ukabyitaho birakura neza, kandi bikaduha umusaruro ukomeye cyane.

Ibishyimbo batwaye ku igare, ibishyimbo bigufi, bita bigufi bateye, bikaba byareze neza cyane, kandi bikera uko nyirabyo yabiteye.

Imodoka itwara ibikoresho nini cyane，ifatishwa n’andi maguru arenze atatu. Iyo iyo modoka iba ifite ibintu byinshi ipakira，ifite n'igi kontineri ishyiramo ibindi bintu.

Imbuto zidufasha gutuma tugira umusaruro mwinshi, tugasagurira n'amasoko kugira ngo n'abandi batabifite bazabonereho ibyo bagura babijyane iwabo.

Ibihingwa byinshi biba ari byiza, iyo byakuze neza ukabijyana kubigurisha cyane kuko uba ukeneye n'amafaranga, nk'ingano, ibishyimbo byose na byo ni ibintu bitanga amafaranga.

Umugore ari guhungura ibigori abikoramo impungure, arangize afate impungure arazanika nizimara kuma azagende kuzibetesha, zizavamo nk'igikoma cyangwa zivemo umutsima w'ibigori.

Ibi ni ibishyimbo bita intonore， biba mu murima，babisarura bikiri bito，bitari byuma ngo bigire， bikomere.

Ibihingwa byinshi bituma ubutaka bususuruka neza cyane. Iyo wateye igihingwa cy'ibishyimbo byiza, bigufasha kugira umukamo mwiza mu baturage cyane.

Iyi ni imiteja iri mu gasobane igaragara ko iri mu bwoko bubiri, hari iyisa n'icyatsi n'izijya gusa n'umuhondo kandi zose ziraryoha.

Ibigori bidufasha gutuma tugira umusaruro mwinshi. Tukagenda tugahunika, tukagurisha bimwe tukabikoramo n'ifu y'igikoma tukakinywa cyane.

Uyu ni umugore uhetse umwana, uri kwanika ubunyobwa ku gatanda kabugenewe. Hirya y'iwe hari ibiti bitemaguye n'imodoka iparitse y'umukara.

Abaturage bakunda gutera ibihingwa byinshi bakabivanga n'yinindi myaka, abaturage iyo bateye nk'ibigori bakabihuza n'ibishyimbo kugira ngo umwaka uzarangirerire byose abifite.

Ibigori byiza birahunnitse mu ikusanyirizo. Aho babigenewe kubibika bakabihavana babijyana kubibetesha ,bakabikoramo ifu y'akawunga cyangwa iy'ibigori.

Aha ni ikiraro cy'inka gifite ubunini, kigaragara ko cyajyamo inka nyinshi cyane, kiri ahantu hadatuwe kandi hizewe.

Ingurube n'inyamaswa zikunzwe cyane, kuzorora zitanga umusaruro uhagije abantu bakunda kuzorora, kugira ngo babone umusaruro uhagije.

Inka ziri mu rwuri, inka ni nziza cyane, zitanga umukamo, zigatanga amafaranga ashimishije, iyo ufite inka, uba ufite ubutunzi buhambaye cyane.

Amagi asa n'umweru， agaragara neza cyane， ari ku matureyi，afite ibara rijya gusa na move.

Iyi ni ingurube igaragara nkaho ifite amezi, iri hafi kubyara, hirya hari abagabo babiri b'abaveterineri baje kuyipima ngo barebe igihe yabyarira.

Inyama ziri mu ibagiro kandi ni nyinshi cyane, zigaragara ko bari kuzigurisha kandi bazibaga bakagurisha, iyo babonye aho bazigurisha.

Ingurube zidufasha kugira umutungo uhagije mu baturage bacu, kandi bikanadufasha gutuma tubona umusaruro mwinshi w'amafaranga, tukajyana no kugurisha ingurube.

Inka ziri mu kibuga kinini ni inka nyinshi. Inka zitanga umukamo mwiza, iyo ufite inka uba ufite ubutunzi bwinshi, ufite amafaranga ufite umukamo w'amata uhagije.

Inka nyinshi kandi nziza zigaragarako ziri mu rwuri bari kuzigaburira, kandi bazigaburira zose ziri kurira mu gisahane cyazo.

Umutungo w'inka udufasha gutuma tugira ubukire buhambaye cyane, nk'iyo baduhaye umukamo w'amata tugira ubuzima bwiza.

Umugabo ufite inkoko nyinshi cyane. Aari kuzigaburira kugira ngo zitange umusaruro munini ugaragara. Ziri mu kiraro cyazo.

Abagabo n'abagore benshi bambaye amasalubeti harimo umwe utambaye, harimo umwe w'umugore utambaye amasalubeti, n'umwe w'umugabo wambaye ishati iciyemo imirongo bari ahantu hari ibiraro.

Ingurube ni nziza ,ni inyamaswa itanga umusaruro munini, iyo ufite ingurube ishobora kukuzamura ikagukura bukene ikagushira mu bukire.

Inka zidufasha kugira umusaruro mwinshi, zikaduha no kubona amata, kandi amata y'izi nka aba ari meza cyane, iyo wazitayeho.

veterineri w'amatungo arimo gutera inka kugira ngo ikingirwe indwara yari ifite . Hirya hari nyirayo uyifashe kugira babone uko bayitera.

Inyoni ihagaze ku giti. Inyoni ituma tubona ibyiza byinshi iduha amafaranga, iduha inyoni ngenzi zayo ikaduha n'abashitsi baza kuzisura.

Inyoni nyinshi ziba ahantu hateguwe, inuma na zo zikagira ubwoko bwinshi, zibaho mu mabara atandukanye, kandi menshi cyane.

Inzoka ni inyamaswa abantu bakunda gutinya kuko bavuga ko iryana, kandi koko iraryana. Gusa inzoka nayo nta kintu itwaye iyo utayibangamiye.

Ishyamba ribamo ibintu byinshi cyane, cyane, cyane, habamo n'inyamaswa z'ubwoko bwinshi, iyo wageze mu ishyamba urazibona kandi zikagushimisha.

Inyamaswa ni nziza cyane. Iyo uzireba ukabona ukuntu zisa ziri mu ahantu heza, ahantu mu ishyamba zagenewe kuba ubona bishimishije cyane.

Inyamaswa yitwa imbogo. Imbogo ituma abantu baza kuyisura, igatuma tubona n'amafaranga, ikagira n'umukamo mwiza w'amata.

Ni nyinshi cyane, iyo uzibonye nawe biragushimisha, kugirango uzibone bibonekera ahantu hake. Ubu, inyamaswa tubona icyo ivuze.

Inyoni na yo iri mu rusobe rw'ibinyabuzima bigira imbaraga nyinshi cyane, kuko inyoni iraguruka kandi ikagira n'abana ihahira.

Amagi avamo utuntu twinshi cyane iyo wayaturaze akagufasha kubona umutungo mwinshi, kugira inkoko nyinshi ndetse ukagira n'amafaranga.

Ikigona kiri mu kirere. Kiri kuguruka, gifite ibara ry'umukara. Kiri kugaragaza igicucucucu cyacyo, kandi kiri n'ahantu hisanzuye hatari ikindi kintu.

Igisimba kiryana kitwa igisimba kibonekera mu murima w'ibirindiro byawo, niho uyisanga bita umutubu.

Inyoni ihagaze hejuru y'igiti cyumye. Gifite amababi ariho ibidodoki kandi kikaba kiri ahantu harehare.

Iyi ni imbeba bita Mushushwe, ikunda kuba mu bigunda, ntabwo ikunda kuba mu ngo, ariko itagira amahane, kandi ikunda kwiruka cyane.

Umucaca w'icyatsi ugaragara neza cyane, iyo uri mutoya, ukawubona usa n'icyatsi, n'ibisimba bikawukunda cyane, nk'ibiyongoyongo bikunda kuza kuwugenderamo.

Ingagi ziduha amadovize, zidukururira abashyitsi benshi, zikadushimisha, zigatuma n'igihugu cyacu gitera imbere.

Aka ni akanyayamasyo. akanyayamasyo kaduha ubuntu bwinshi， kadufasha gukurura ba mukerarugendo bakagasura， kandi karashimisha cyane.